Ibijumba bicuruzwa mu dusantre dutandukanye, aho abahinzi babihinga, bakabigurisha abacuruzi, noneho abatarabashije kubihinga; nabo bakaza kubigura na ba bandi babicuruza kugira ngo nabo babone uko babirya.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi bw'ibishyimbo, aho umuhinzi atoranya guhinga imbuto imwe gusa yatoranyije, kugira ngo yitege umusaruro mwiza kandi ushyitse mu gihe kirambye.

Ubworozi bw'inkoko bwiganje kukorora imishwi izagurishwa, usanga yateganyirijwe ibyo kurya arimwo imishwi myinshi cyane. Iyi mishwi ikaba yororwa mu buryo bw'ubucuruzi aho izakwirakwizwa ku bantu bandi bashaka kuyorora.